Umukobwa wambaye agapira k'umukara n'iropanta y'ubururu ndetse n'ibikoresho by'ubwirinzi, arimo kuhira ibihingwa bihinze ku murongo mu buryo bwa kijyambere. Iyi akaba ari mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko guhinga kijyambere bitanga umusaruro mwinshi, kandi mwiza ugereranyije.

Imihanda ni kimwe mubifasha abaturage batuye hirya no hino mu gihugu, mu koroshya ubuhahirane hanozwa ingendo hagati y'uduce n'utundi, bigafasha mu kwiteza imbere. Aho abaturage babasha kugeza imisaruro yabo ku masoko, bityo bakabasha kwiteza imbere ndetse bakabona n'inyungu ku bikorwa byabo by'ubuhinzi, baba barakoze mu bihe bitandukanye.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa bihuriweho n'Abanyarwanda benshi cyane cyane ababoneka mu bice by'icyaro, aho bahuriye ku bikorwa by'ubuhinzi nka kimwe mubibafasha kugira ubuzima bwiza, ndetse no kubaho ubuzima bwabo bwa buri munsi, ndetse baninjiza amafaranga abafasha mu kwiteza imbere.

Muri farumasi ahacuruzwa imiti ndetse n'ibikoresho bitandukanye cyane cyane byita ku buhinzi ndetse n'ubworozi, hagaragaramo ibikoresho nk'amajage, imiti, ndetse n'ibindi bitandukanye, hari kandi mudasobwa, ameza, utubati, ndetse n'umuganga wabugenewe w'amatungo, utanga imiti ku baturage mu rwego rwo kubafasha kuzamura umusaruro w'ibyo bakora.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ni kimwe mu bifasha abaturage ndetse n'abikorera mu kwiteza imbere, aho babona amafunguro ndetse bakabona n'amafaranga, bibafasha mu kuzamura imibereho yabo ya buri munsi, aho abaturage bagirwa inama yo kunoza neza ibikorwa by'ubuhinzi nka bimwe mu bishobora kubafasha mu kwiteza imbere.

Mu nyubako yagenewe gucuruzwamo inyongeramusaruro ndetse n'imiti byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi kugira ngo bazamure ireme ndetse n'umusaruro w'ibikorwa byabo. Hagaragara imiti itandukanye yifashishwa mu kunoza serivisi ndetse n'inyongeramusaruro byose bigamije kuzamura iterambere ry'abahinzi bahabwa ibyo bakenera.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa bifasha abikorera mu kwiteza imbere babona ibibatunga ndetse baninjiza amafaranga. Bumwe mu buhinzi bufasha abikorera mu kwiteza imbere harimo nk'ubuhinzi bw'ibitoki ndetse n'ibindi bitandukanye nk'ibigori, amashaza ndetse n'izindi.

Umurima munini cyane uhinzemo igigwa cy'urutoki, iki akaba ari kimwe mu bihingwa bifasha abaturage kwiteza imbere, aho bitanga umusaruro mwiza w'ibitoki wifashishwa hirya no hino mu gihugu, mu gutegura amafunguro ya buri munsi, gukurwamo inzoga, imitobe, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ubuhinzi bwa kijyambere kandi bukozwe neza ni bimwe bifasha ababikora kwiteza imbere babona umusaruro ndetse banabona ibyo kurya mu ngo zabo bitabagoye nka kimwe mu bitangamo inama n'impuguke mu by'ubworozi ndetse n'ubuhinzi ko bishobora gutanga amafaranga kandi bigafasha ababikora kwiteza imbere.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro mwinshi ndetse bigafasha n'abakora bene ubu buhinzi bwabyo kwiteza imbere ndetse no kugirira akamaro sosiyete batanga umusanzu wabo, aho kandi bibafasha mu kugira ubuzima bwiza babona ibibatunga ndetse banagira uruhare mu iterambere ry'igihugu.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa bifasha ababikora mu kwiteza imbere, babona umusaruro uhagije ndetse baninjiza amafaranga. Iyo babikoze neza kinyamwuga, ndetse bakabona ibibatunga bakanasagurira amasoko. Imbuto n'imboga ni kimwe cyane cyane mu bifasha abahinzi mu kwiteza imbere, kuko bibafasha mu kwinjiza amafaranga menshi.

Igihingwa cy'ibigori gihinze neza mu mirima yatunganyijwe neza ndetse mu buryo bwa kijyambere, iyi aka arimwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, ko ubuhinzi bukozwe neza mu buryo bwa kijyambere bufasha gukura mu kuzamura umusaruro ndetse no kwiteza imbere babona ibibatunga ndetse banasagurira amasoko.

Umugabo ndetse n'umugore barimo gutembera mu murima wabo uhinzemo ibinyomoro, iyi akaba ari imwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi, ko ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza, ndetse bakanabona umusaruro uhagije, ku buryo basagurira n'amasoko, bityo bakabasha kwiteza imbere.

Umurima ugaragaramo igihingwa mbaturabukungu cy'ikawa, aho iyi kawa ari kimwe mu bihingwa bifasha abikorera mu kwiteza imbere, aho yoherezwa hanze y'igihugu bigafasha ndetse n'igihugu kwinjiza amadevize atandukanye nka bimwe mu bikorwa mbaturabukungu bikorerwa hirya no hino mu gihugu.

Ikibaya gihinzemo igihingwa cyatoranyijwe kigizwe n'ibigori, aho abaturage bahinga muri iki kibaya, bagirwa inama yo guhuriza hamwe igihingwa kimwe kugira ngo abe ari cyo bahinga, mu rwego rwo kubafasha kuzamura umusaruro wabo birinda ibyonnyi bitandukanye, ndetse n'ibindi biza byafata imyaka yabo.

Umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi bw'imyumbati ndetse n'ibiti. Iyi akaba ari imwe mu bihingwa bitandukanye biboneka hirya no hino mu Rwanda, aho abakora bene ubuhinzi bafasha kwiteza imbere, babona ibibatunga ndetse banabona amafaranga mu gihe bagize umusaruro wabo bakawushyira ku isoko.

Umurima munini cyane uhinzwemo igihingwa cya puwavuro, iki akaba kimwe mu bihingwa bifasha abahinzi mu kwiteza imbere, kuko bivamo amafaranga menshi cyane yaba kubigurisha imbere mu gihugu cyangwa se hanze yacyo, aho kandi bifasha ababikora kwiteza imbere no kugira ubuzima bwiza, barya imboga ndetse n'imbuto kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abaturage benshi cyane bishimye bari guseka barimo gukura ingemwe z'ibiti bya avoka muri pepiniyeri, aha hakaba ari aho imbuto zitandukanye zitunganyirizwa zigakorwamo ingemwe arizo zihabwa abahinzi kugira bajye kuzitera hirya no hino mu mirima yabo mu gihe bakora ibikorwa by'ubuhinzi bw'imbuto cyangwa n'ibindi biti.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ari wo w'ibigori by'ibara ry'icyatsi kibisi, aho bisaruwe mu murima bikiri ibitoto kugira ngo bikoreshwe n'ababiguze kugira ngo babikuremo amafunguro, ibi akaba ari kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro ndetse binafasha ababikora kwiteza imbere, aho bitanga umusaruro mwiza cyane.

Ubuhinzi bw'ibigori ni kimwe mu bikorwa bigaragara hirya no hino mu gihugu cyane cyane ahakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi bitandukanye, ibigori ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro mwiza cyane byaba imbere mu gihugu, kuko bifasha na ba nyirabyo kwinjiza amafaranga mu gihe babikoze kinyamwuga ndetse banatanga ibyangombwa bikenerwa mu kunoza ubu buhinzi.

Udukarito ndetse n'amacupa birimo imiti itandukanye, ifashwa mu kunoza igikorwa cy'ubworozi, aho amatungo ahabwa imiti n'inkingo igihe bibaye ngombwa, ndetse hakanitabwaho umunsi ku wundi kugira ngo hitwe ku musaruro wabo. Bityo bifasha bikora kwiteza imbere ndetse no kuzamura umusaruro muri rusange.

Icupa ry'umukara rifite agapapuro karibara ry'umweru kagaragaza ko icupa ririmo umuti wa matiri oro sorushoni, uyu akaba ari umuti ukorwa hifashishwa ibimera bitandukanye aho wifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa cyane cyane wica udukoko ndetse na mikorobe bitera indwara zitandukanye zifata mu kanwa.

Udukarito turimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata amatungo, harimo inka, intama, ihene ndetse n'izindi. Aho ahabwa imiti mu gihe agize ibibazo by'uburwayi bitandukanye, bigafasha aborozi mu kongera umusaruro ndetse no gutanga ubuzima bwiza ku matungo yabo, bavuza indwara zitandukanye zifata ubworozi bwabo.

Abaturage bahuriye hamwe mu murima, aho barimo gukora ibikorwa by'ubuhinzi babagara igihingwa cyabo cy'imyumbati, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, ko kwicira imyaka bayibaka ndetse bashyiraho ifumbire arimo bibafasha mu kuzamura umusaruro wabo, bityo bakabona n'uko binjiza amafaranga menshi aturuka mu bikorwa byabo by'ubuhinzi.

Umuganda ni imwe muri gahunda yashyizweho na leta, y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage kubikemura ibibazo bimwe na bimwe bigaragara hirya no hino mu gihugu, bidasabye ko bategereza leta ngo azabe ari yo ibakemura ikagaragaza ko bitanga umusaruro hirya no hino, aho abaturage bisiburira imiferege bakikorera imihanda ndetse n'ibindi bitandukanye, babungabunga ibidukikije.

Ibikorwa by'umuganda ni byo leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kuyoboka bikemurira ibibazo bimwe na bimwe, ndetse banaba umusingi w'iterambere ku giti cyabo, abaturage aho bahuriye mu muganda kugira ngo basibure umuhanda ube nyabagendwa, bityo byoroshye ubuhahirane hagati yabo, ndetse binabafashe kwiteza imbere.

Umurima munini cyane ukorerwamo igikorwa cy'ubuhinzi cyane cyane bwiganjemo ubuhinzi bw'imyumbati, iki akaba ari kimwe mu biribwa Abanyarwanda benshi bakoresha mu buzima bwawo bwa buri munsi, yaba mu kubirya nk'uko bikuwe mu murima, cyangwa se bigatunganywamo ifu y'ubugari yifashishwa na benshi hirya no hino mu gihugu.

Abaturage bari mu gikorwa cy'umuganda rusange, aho bitwaje ibikoresho bitandukanye birimo amasuka, amapiki, ndetse n'ibindi, aho birimo kwifashishwa mu guhanga umuhanda woroshya ubuhahirane hagati y'uduce dutandukanye tw'igihugu, bikoroshya imihahirane ndetse bikanazamura iterambere ry'abatuyemo muri utwo duce.

Uturima tw'igikoni ni imwe muri politiki za guverinoma y'u Rwanda, twashyizweho mu rwego rwo gufasha abaturage mu kurwanya igwingira ry'abana ndetse no guhashya imirire mibi, binyuze mu baturage babasha kubona imboga ndetse n'imbuto ku mafunguro yabo bitabagoye, ahubwo bihinze byose ku turima tw'igikoni.

Ubuhinzi ni kimwe mu bice by'ingenzi bigize ubukungu bw'igihugu. Kuko umubare mwinshi w'abaturarwanda usanga bibanda kuri iki gikorwa cy'ubuhinzi, hagaragara abaturage bari mu bikorwa by'ubuhinzi, aho bafite amasuka. Barimo guhinga neza batunganya imirima bazateramo imbuto, mu gihe igihebwe cy'ihinga kizaba gitangiye.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara, aho arimo gukata itaka, aho rivangwa n'amazi kugira ngo ribumbwemo amatafari yifashishwa mu kubaka inzu zitandukanye, ziturwamo n'abantu cyangwa se n'ibikorwa bitandukanye by'iterambere.

Abaturage nyamwinshi bari mu gikorwa cy'umuganda bitwaje amasuka, amapiki ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, aho barimo kwisukurira umuhanda ubahuza uzabafasha mu koroshya ubuhahirane, bikaborohereza mu kwiteza imbere ndetse no kunoza imirimo yabo ya buri munsi.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'ibigori ndetse n'urutoki, ibi akaba ari bimwe mu bihingwa ngandurarugo bigaragara hirya no hino mu gihugu, aho abakora bene ubu buhinzi bibafasha mu kwiteza imbere no kugira ubuzima bwiza, babona ibibatunga ndetse banasagurira amasoko.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe neza ni kimwe mu bifasha ababikora mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura umusaruro wabo, aho abahinzi bahurizwa muri koperative bagahinga igihingwa kimwe bihitiyemo, bityo bikabafasha mu kuzamura umusaruro ndetse no kwitabwaho neza birinda ibyonnyi ndetse n'ibindi bitandukanye byatuma umusaruro wabo utaba mwinshi.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe na avoka, aho zirimo gutunganywa neza kugira ngo zoherezwe hanze y'igihugu, iyi akaba ari kimwe mu bihingwa bifasha ababikora mu kwiteza imbere bagire ubuzima bwiza, aho babona imbuto zo gushyira ku mafunguro yabo, ndetse bakanabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'ibigori ni kimwe mu bifasha ababikora mu kwiteza imbere, aho babona ibibatunga ndetse bakanasagurira amasoko, aho ibi bihingwa bigaragara hirya no hino mu gihugu, aho kandi bigira uruhare runini mu gufasha Abaturarwanda mu buzima bwabo bwa buri munsi bitunganywamo ibiribwa bitandukanye harimo nk'amafu ya kawunga, ifu y'igikoma, ndetse n'ibindi.

Umurima uhinzemo, ibishyimbo byinshi cyane. Iki akaba ari kimwe mu bihingwa mbaturabukungu, aho igihingwa cyifashishwa hirya no hino mu gihugu, yaba ku bakeneye kubirya ndetse no kubikoramo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, kuko bikenerwa cyane ku isoko.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe barimo kugenda mu nyubako yagenewe guhunika umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi mu gihe bitaracuruzwa cyangwa bitaroherezwa hanze y'igihugu, ibi akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere mu buhinzi, aho umusaruro wabo woherezwa hirya no hino ku masoko mpuzamahanga, bigafasha abahinzi mu kwiteza imbere, ndetse no kwinjiza amadevize mu gihugu.

Abagabo babiri barimo gutunganya umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi uzwi nk'inyanya, aho izi ari zimwe mu mboga zigaragara hirya no hino mu Rwanda zikoreshwa n'abatari bacye ku mafunguro yabo ya buri munsi, bibafasha kugira ubuzima bwiza nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi.

Ubukerarugendo ni kimwe mu bikorwa byinjiza amafaranga menshi cyane cyane amadevize mu gihugu. Aho hagaragara ibyanya byabugenewe mu Rwanda bikorerwamo ibikorwa by'ubukerarugendo harimo nka parike, amashyamba ndetse n'ibindi.

Ubusitani bunini cyane burimo ibiti by'amoko atandukanye byiganjemo ibyifashishwa mu gukora imiti itandukanye ya kinyarwanda, ikoreshwa n'abavuzi gakondo ndetse n'abandi batanga serivisi z'ubuvuzi, mu gukora imiti itandukanye yifashishwa mugukiza indwara zinyuranye, zifata ubuzima bwa muntu.

Ubuhinzi bw'ibiti ni kimwe mu bikorwa bifasha ababikora mu kwiteza imbere mu gihe kirekire, aho babona umusaruro uhagije kandi mwiza kandi bikanabafasha kurwanya imyuka itandukanye yangizariza ikirere, aho bitanga umwuka mwiza ndetse bikanadufasha gukurura imvura hirya no hino mu gihugu.

Parike nziza cyane ndetse n'amashyamba kimeza, ni kimwe mu bikurura ba mukerarugendo baturutse hirya no hino ku isi baje gusura u Rwanda, iyi akaba ari parike y'ibirunga hagaragara ingagi, ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye bikurura ba mukerarugendo bagasiga amadevize.

Ishyamba rinini cyane, ririmo ibiti bitandukanye, aho bikurura ba mukerarugendo baza gutembera u Rwanda bareba inyamaswa ndetse n'ibyiza nyaburanga bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Haragaragaramo kandi n'inyamaswa nk'inkende, ingagi ndetse n'ibindi byose bikurura ba mukerarugendo bagasiga amadevize.

Ubusitani bugaragaramo ibihingwa byiganjemo ibiti ndetse n'ibimera byifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti itandukanye hirya no hino mu gihugu yifashwa mu kuvura indwara zinyuranye, bikagaragaza iterambere mu buvuzi. Aho imiti imwe n'imwe ivura indwara ishobora guturuka mu bimera bitandukanye tuba twarihingiye mungo.

Ubuhinzi bw'ibiti ni kimwe mu bifasha abaturarwanda mu kugira ubuzima bwiza, aho bitanga umwuka mwiza ku batuye mu gihugu ndetse bikanamira ibyuka bibi bihumanya ikirere, ni yo mpamvu abaturarwanda bakangurirwa gutera ibiti hirya no hino, cyane cyane ahahurira abantu benshi mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza bagerwaho n'umwuka mwiza.

Umurima munini cyane utunganyijwe mo neza, utegereje guterwamo ingemwe z'ibiti bitanga umusaruro w'imbuto, iyi akaba ari imwe mu nama zita ni mpuguke mu by'ubuhinzi, ko ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ari bimwe mu bitanga umusaruro, ndetse bigafasha n'ababikora kwiteza imbere.

Ubuhinzi cyane cyane ubw'imboga ndetse n'imbuto, ni kimwe mu byo impuguke mu bw' ubuhinzi zigiramo inama abantu gukora, kuko butanga umusaruro kandi mu gihe kitarambiranye, aho imbuto nka kokombre ndetse n'izindi, zishobora kugira uruhare mu kunoza igitsina kuko gituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ameza yo mu isoko agaragaraho umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, wiganjemo imboga ndetse n'imbuto, aho ibicuruzwa harimo karoti, pavuro, inyanya, imboga ndetse n'ibindi. Byose bikaba ari bimwe mu bigize ifunguro ryuzuye aho bigira uruhare runini cyane mu gufasha umubiri mu kwirinda indwara ndetse no kugira ngo ugire ubudahangarwa ku burwayi zitandukanye.

Akarima k'igikoni gahinzemo imboga za karoti zigaragara hirya no hino mu gihugu, ubu ngubu zitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi ko kurya ifunguro riho imboga ndetse n'imbuto bifasha ubifata kugira ubuzima bwiza, yirinda indwara zitandukanye.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wa tungurusumu zigaragara ko zakuwe mu gihe cya nyacyo, ibi bikaba bifasha ababikora mu kwiteza imbere ndetse no gutanga umusanzu wabo hirya no hino mu gihugu, bafasha abatuye igihugu kugira ubuzima bwiza, babona imboga ndetse n'ibihingwa bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ameza arambitseho umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi bw'urutoki, ugizwe n'imineke, aho ari kimwe mu mbuto zigirwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima ko kurya imbuto kenshi bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza, ndetse n'ababihinga bikabafasha gutera imbere.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, ni kimwe mu bifasha ababikora kwiteza imbere ndetse no kugira ubuzima bwiza, kuko babona amafunguro ndetse n'imbuto, kandi bakanabona amafaranga abafasha mu kwiteza imbere, binyuze mu buhinzi baba bakoze, ibi kandi bikazamura imibereho myiza yabo ndetse n'iya sosiyete muri rusange.

Umurima uhinze mu igihingwa cy'ibishyimbo, iki akaba ari kimwe mu bihingwa ngandurarugo biboneka hirya no hino mu gihugu, aho bifasha abikora kugira ubuzima bwiza, babona ibibatunga ndetse banasagurira amasoko, cyane ko birimo ibinyabutabire by'ingenzi cyane bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubusitani buhinzemo ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibimera byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, byifashishwa n'abavuzi gakondo ndetse n'abandi batanga serivisi z'ubuvuzi mu rwego rwo gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza, bivura indwara zitandukanye zifata ubuzima bwa muntu.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ugizwe n'ibitunguru biri mu gasanduku, aho birimo gucururizwa ku isoko, bifasha abahinzi mu kubona amafaranga ndetse no kunoza imibereho yabo, aho babasha kubona ibyo bakeneye bitabagoye, ndetse bakanabona umusaruro, ndetse n'inyungu, ku bikorwa byabo by'ubuhinzi.

Umufuka w'umweru cyane urimo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi uzwi nk'urusenda. Iki akaba ari gihingwa ngandurabukungu, aho bifasha abahinzi kwinjiza amadevize, ndetse no kubona amafaranga binyuze mu kugurisha ibihingwa byaho kugira ngo bitunganwemo neza ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa byifashishwa hirya no hino mu gihugu.

Akarima k'igikoni ni imwe muri politiki za guverinoma y'u Rwanda yashyizeho mu rwo gufasha abaturage mu kunoza imirire yabo bita cyane cyane ku mirire y'imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage bagirwa inama yo guhinga uturima tw'igikoni bagateraho imboga bikabafasha mu kurwanya igwingira ry'abana ndetse no kunoza imirire yabo.

Muri pipinyeri hatunganyirizwa ingemwe z'ibiti ndetse n'imbuto bitandukanye, aho bivanwa mu bihunukiro hanyuma bikagenda guterwa hirya no hino ku mirima y'abaturage ndetse no mu mashyamba, igihe bibaye ngombwa. Hagaragara abamama baje gufata ingendo zo kujya gutera kugira ngo bafashe ababakomokaho kugira ubuzima bwiza, barya imbuto ku mafunguro yabo ya buri munsi.

Umurima munini cyane uhinzemo imboga zo mu bwoko bw'amashu, aho harimo gukorerwa n'abahinzi ndetse hanitabwaho umunsi ku wundi, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko ubuhinzi bukozwe neza bufasha ababukora mu kwiteza imbere, ndetse no kugira ubuzima bwiza, na bo babona ibyo bakenera mu buzima bwabo.

Isoko ricurizwamo umusaruro wibikomoka ku buhinzi wiganjemo cyane cyane imboga ndetse n'imbuto. Hagaragara imbuto z'ubwoko butandukanye harimo nk'ibinyomoro, amatunda, amapera, maracuja, pome ndetse n'ibindi. Byose byifashishwa n'abaturarwanda hirya no hino mu gihugu mu kugira ubuzima bwiza barya indyo yuzuye.

Ku isoko hatangirwa serivisi z'ubucuruzi zitandukanye, haragaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, wiganjemo ibitunguru, aho byaje gucuruzwa kugira ngo ababihinze, babashe kwinjiza amafaranga ndetse baniteze imbere, binyuze mu bikorwa byabo by'ubuhinzi n'ubworozi, baba baragiye bakora hirya no hino.

Agace k'umurima kazwi nka pepenyeri, ahahubikwa ibiti by'ubwoko bitandukanye, aho bikurwamo ingemwe ziterwa hirya no hino ku mirima ndetse no mu mashyamba atandukanye, nka bimwe mu bifasha mu kurwanya isuri ndetse no gusigasira ibidukikije, bitanga umwuka mwiza ndetse binatanga umusaruro ku babihinga.

Abaturage barimo kuhira imyaka yabo ihinze, bifashishije ibikoresho byabugenewe bigizwe n'amapompo ndetse n'imipira ikurura amazi, iyi akaba ari mu rwego rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, aho bakomeza gutanga amazi akenewe ku bihingwa, kugira ngo bitange umusaruro mwiza.

Abaturage bari mu bikorwa byo kuhira bifashije imipira yabugenewe yifashishwa mu gukora bene iki gikorwa, ibi bikabafasha kuzamura umusaruro wabo bahangana n'ihindagurika ry'ibihe cyane cyane mu gihe cy'izuba, aho bakomeza kohereza ibimera byabo amazi akenewe kugira ngo bitange umusaruro mwiza.

Umubyeyi urimo kuhira imyaka iri mu murima yifashishije ibikoresho byabugenewe, nka kimwe mu bikorwa bigirwamo imana n'abahinzi ko bagomba gukora mu gihe bangana n'ihindagurika ry'ibihe hagamijwe ko bazamura umusaruro w'ibihingwa byabo.

Umusore wambaye agapira k'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara, aho ari mu murima arimo kuhira imyaka yiwe igizwe n'ibigori ndetse n'imboga. Iyi ikaba ari imwe mu bifasha aborozi mu kuzamura umusaruro wabo, aho buhira imyaka yabo cyane cyane mu gihe cy'izuba kugira ngo itange umusaruro mwiza.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo kuhira imyaka yifashishije igikoresho cyabugenewe igizwe n'ipompo igenda itera amazi hirya no hino mu bihingwa. Iyi ikaba muri gahunda zifasha abahinzi mu kongera umusaruro wabo cyane cyane mu bihe bikabije by'izuba, bafasha ibihingwa kubona amazi bikeneye kugira ngo bikure neza.

Umurima munini cyane ukasemo neza amatarasi y'indinganire. Iyi ikaba ari gahunda ya Guverinoma y'u Rwanda yashyizweho, cyane cyane mu bice bihanamye by'Igihugu, mu rwe rwo gufasha abaturage kurwanya isuri, aho ubutaka bwabo bukorwamo amatarasi y'indinganire afata amazi, bigafasha mu kuzamura umusaruro wibikomoka ku buhinzi, ndetse binarinda ko ubutaka bwabo butwarwa n'isuri.

Abaturage batuye mu mirima yabo ku midugudu yabugenewe, aho bashishikarizwa gutura na guverinoma y'u Rwanda mu rwe rwo kubafasha kugerwaho n'ibikorwa remezo nk'amazi meza, umuriro, amashuri, imihanda ndetse n'ibindi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Amaterasi meza y'indinganire ni kimwe mu byazanywe na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage, cyane cyane abatuye mu bice by'imisozi miremire, kurwanya ibikorwa by'isuri, ndetse n'imyuzure, aho bahinga amaterasi, hanyuma bakagira ibiti bifata amaterasi bityo ubutaka bwabo bukarindwa isuri, ndetse bikabafasha kuzamura umusaruro wabo.

Ibiraro byubatse mu murima aho bikikijwe n'imirima ihinzemo ibihingwa bigizwe n'urutoki ndetse n'ibigori, hakaba ari ahororerwa amatungo maremare, arimo nk'inka, ihene, intama ndetse n'izindi, aho byoroha kugira ngo bifashe ababikora kwiteza imbere, ndetse binatanga ifumbire ryifashishwa n'abahinzi mu kunoza umusaruro wabo.

Ibikorwa by'ubuhinzi binogejwe neza ni bimwe mu bishobora gufasha ababikora kwiteza imbere ndetse no kugira amafaranga menshi mu gihe babikoze neza, aho abahinzi bahurira ahantu hamwe bagahuza igihingwa kugira ngo bahinge igihingwa kimwe birinda ibyonnyi ndetse n'uburwayi butandukanye bashobora gufata ibihingwa byabo, bityo bikabafasha kuzamura umusaruro wabo.

Ikibaya kinini cyane gihinzwemo ibihingwa byatoranyijwe bigahurizwa hamwe n'abahinzi bose kugira ngo bazamure ireme ry'umusaruro wabo, birinda ibyonnyi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byaturuka mu kubusanya ibihingwa, iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko guhuza igihingwa bifasha abahinzi gutanga umusaruro, ndetse no kuzamura ingano y'ibyo beza.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni kimwe mu byo impuguke mu bw'ubuhinzi zigaragaza nk'igisubizo mu iterambere cyane cyane ku bahinzi, aho bihuriza muri koperative, hanyuma bagahitamo igihehingwa runaka bishakiye, akaba ari cyo bahinga aho hantu, ibi bikabafasha mu kuzamura umusaruro wabo, hirindwa ibyonnyi ndetse banahabwa imiti n'ubundi bujyanama bwose ku buhinzi bwabo.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni kimwe mu byagaragajwe n'impuguke mu by'ubuhinzi nka kimwe mu bisubizo bishobora gufasha abahinzi mu kugira umusaruro ndetse no kongera ireme ry'ibyo beza hirya no hino, aho bafata igice runaka bagahuza igihingwa runaka kimwe akaba aricyo cyahirwa mu rwego rwo gufasha abaturage kuzamura umusaruro wabo.

Ubworozi ni kimwe mu bikorwa bifasha abaturarwanda mu kwiteza imbere babona umusaruro w'ibikomoka ku bworozi nk'amata, inyama, ndetse n'ibindi, aho bibafasha kandi kugira ubuzima bwiza ndetse no kwiteza imbere, bacuruza, cyangwase bagurisha umusaruro w'ibyabuvuye ku bworozi bwabo.

Ubworozi bw'inkoko ni kimwe mu bikorwa by'iterambere, bifasha ababikora kwiteza imbere, ahobabona umusaruro mwinshi kandi mwiza, ndetse bagatanga n'umusanzu ku mibereho myiza y'abatuye igihugu, batanga inyama ndetse n'amagi, nka bimwe mu bikenerwa cyane mu kugira ngo, ifunguro ryuzuye riboneke hirya no hino mu ngo ndetse no mu gihugu.

Umumama urimo kugaburira amatango magufi yiganjemo ihene, ubwatsi. Akaba ari kimwe mu bikorwa by'iterambere bigaragara hirya no hino mu gihugu. Aho abaturarwanda bashishikarizwa korora amatungo cyane cyane amagufi nk'amwe abafasha kugira ubuzima bwiza. Aho babona umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi bakenera mu buzima bwabo nk'amata, inyama, ibiribwa ndetse n'ibindi.

Ubworozi cyane cyane bw'amatungo maremare. Ni bimwe mu bifasha aborozi mu kwiteza imbere kuko ubaha umusaruro yaba bo ku giti cyabo, ndetse bikagirarira akamaro sosiyete muri rusange, aho babona amata abafasha mu kugira ubuzima bwiza ndetse no kunoza imirire yabo, birinda indwara zitandukanye.

Ubworozi ni kimwe mu bikorwa bifasha abaturarwanda kwiteza imbere umunsi ku wundi, ndetse bikanagira uruhare runini mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage; aho bibafasha kubona umusaruro ukomoka ku buhinzi wiganjemo amata n'inyama, nka bimwe mu bikenerwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'inkoko, ni bumwe mu bwagaragaje gutanga umusaruro mu gihe gitoya, ndetse bigafasha ababikora kwiteza imbere no kugira ubuzima bwiza, aho babona ibikomoka ku nyama ndetse n'amagi bitandukanye, bibafasha kugira ubuzima bwiza umunsi ku wundi.

Ubworozi ni kimwe mu bifasha abaturarwanda benshi kugira ubuzima bwiza kuko bubahereza amata ndetse n'umusaruro nk'inyama byifashishwa mu kubafasha mu kunoza amafunguro yabo ndetse no kugira imibereho myiza. Hagaragara amatungo magufi cyane cyane ihene, intama ndetse n'izindi.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni kimwe mu bitanga umusaruro aho abaturage cyane cyane ba rubanda rugufi babasha kubona umusaruro ukokomoka ku bworozi nk'amata ndetse n'inyama, bibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse bikanabafasha no kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubworozi cyane cyane ubw'amatungo magufi, ni bimwe mu byo impuguke mu by'ubuhinzi n'ubworozi zigiramo abantu kujyamo, nka kimwe mu bisubizo bitanga amafaranga vuba, ndetse bigafasha abikorera kwiteza imbere mu gihe kitarambiranye, aho kandi babona n'umusaruro mu gihe cya vuba, higanjemo inyama, amata, ndetse n'ibindi.

Ikiraro cyororerwamo itungo ry'ingurube nka rimwe mu bifasha aborozi mu kwiteza imbere, aho ritanga umusaruro, cyane cyane ko ryororoka mu gihe gito kandi ku bwinshi, aha hagaragara ibyana byombi birimo konka, mu gihe kandi nyirabyo afasha kwiteza imbere.

Inyubako nini cyane zigizwe n'ibiraro byororerwamo amatungo magufi y'inkwavu, aha akaba ari imwe mu bworozi bufasha gukora mu kwiteza imbere, ahobona umusaruro ndetse n'inyungu ku bworozi bwabo, mu gihe kitarambiranye ndetse bikabafasha no kwinjiza amafaranga bakiteza imbere.

Ubworozi cyane cyane bw'inkoko ndetse n'andi matungo magufi, ni imwe mu byo Leta y'u Rwanda ishishikariza abarozi kujyamo, mu gihe bitanga umusaruro ndetse bikanatanga uruhare runini cyane, mu kuzamura imibereho myiza y'abatuye igihugu. Aho batanga umusanzu mu gutanga inyama, ndetse n'amagi bikenerwa, kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni kimwe mu byo guverinoma y'u Rwanda, ishishikariza Abaturarwanda mu kugagana nka kimwe mu bikorwa byabafasha mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo cyane cyane nk'ubworozi bw'inkoko aho zitanga amagi yifashishwa mu kuzamura imikurire y'abana ndetse no gutuma bagira ubuzima bwiza.

Ubworozi ni kimwe mu bikorwa bifasha ababukora mu kwiteza imbere babona umusaruro w'ibikomoka ku bworozi wiganjemo inyama ndetse n'amata ndetse bikanafasha n'ababikora kwiteza imbere igihe bukozwe neza. Aho amatungo atandukanye yitabwaho agahabwa imiti, inkingo ndetse n'ibindi nkenenerwa kugira ngo bigire ubuzima bwiza.

Ubworozi cyane cyane bw'amatungo magufi ni bimwe mu bifasha abikora mu kwiteza imbere mu gihe gito, aho kandi bizamura imibereho myiza yabo kuko babona umusaruro wabyo ku gihe haririmo nk'amata, amagi, inyama ndetse n'ibindi byose bya ngombwa mu kugira ubuzima bwiza.

Umusaruro w'ibikomoka ku bworozi ni kimwe mu bifasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza, babona amafunguro yuzuye yiganjemo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara, kimwe muri byo harimo inyama ndetse n'amagi biboneka hirya no hino bikomoka ku bworozi nk'ubw'inkoko, imbata ndetse n'ibindi.

Ubworozi ni kimwe mu bikorwa bifasha ababikora mu kwiteza imbere ndetse bakanagira ubuzima bwiza, kuko butanga umusaruro ubafasha mu kwiteza imbere harimo nk'amata ndetse n'inyama, bibafasha mu kugira ubuzima ndetse n'imibereho myiza, bikanabafasha kwiteza imbere.

Umuvuzi w'amatungo wambaye umwenda w'akazi wabugenewe ugizwe n'isarubeti y'ibara ry'ubururu aho arimo kuvura inka ifashwe n'umugabo wambaye umupira w'ikigina ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umuhondo akaba ari muri gahunda aho amatungo hirya no hino ahabwa imiti mugihe agize uburwayi runaka bigafasha abahinzi ndetse n'aborozi mu kwiteza imbere hirindwa ibihombo bitandukanye bahura nabyo mugihe amatungo yabo yaba agize ibibazo by'uburwayi.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse na bote z'umukara, aho arimo kuzirika inka neza ku giti kugira ngo ayitere intanga, iyi akaba ari imwe mu iterambere mu bworozi, aho bitakiri ngombwa ko aborozi bajya kubanguriza amatungo yabo kuya magenzi yayo, ahubwo bayatera intanga za kinyamwuga, bigafasha mu kongera umusaruro.

Umuganga w'amatungo wambaye impuzankano yabugenewe, aho arimo gutanga inkingo ku nyamaswa zitandukanye muri serivisi zitangwa hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kugabanya ndetse no kuzamura ireme ry'ubworozi hitabwa ku miti ndetse no kurinda ibyorezo amatungo.

Umuvuzi w'amatungo, aho arimo gukingira amatungo magufi yiganjemo ihene ndetse n'intama, iyi akaba ari mu bikorwa bikorwa hirya no hino mu gihugu, mu rwego rwo gufasha amatungo kuba yarindwa ibyorezo ndetse n'indwara zitandukanye ahabwa inkingo mu gihe cyabugenewe.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu afite icupa ririmo umuti, aho yicaye hejuru mu kiraro, iyo imbere yiwe hari amatungo cyane cyane yiganjemo inka, aho agiye kuyiha umuti, iyi akaba ari imwe mu byifashishwa n'aborozi mu kunoza umusaruro wabo w'ibikomoka ku bworozi bita ku matungo yabo, aho bayavura indwara zitandukanye mu gihe yaba yahuye na zo.

Ubworozi cyane cyane bw'amatungo magufi ni kimwe mu byo guverinoma y'u Rwanda ishyiramo imbaraga ifasha abaturage mu kuyoboka, iyi ni mu gihe bitanga umusaruro ku miryango iciriritse, aho babona ibibatunga harimo nk'amata, amagi, inyama ndetse n'ibindi.

Inyamaswa ni kimwe mu bikurura ba mukerarugendo hirya no hino ku isi, aho bajya kubisura ndetse bakareba n'ubwiza nyaburanga bw'ahantu hatandukanye, imparage ni kimwe muri izo nyamaswa zikurura abantu kubera ubwiza bw'amabara yazo, ibingibi kandi bikazamura iterambere, aho abaje kuzisura bazana amadevize, ndetse bigatanga n'akazi ku bahaturiye.

Parike ndetse n'amashyamba kimeza ni bimwe mu bigaragaramo ibyiza nyaburanga bitandukanye byiganjemo inyamaswa ndetse n'inyoni zo mu kirere, bikurura ba mukerarugendo kuza gusura u Rwanda bityo bagasiga amadevize ndetse bigafasha n'abaturiye bene ibyo bikorwa remezo kwiteza imbere.

Ubukerarugendo ni kimwe mu bikorwa bifasha igihugu mu kwinjiza amadevize menshi aturutse kuri ba mukerarugendo, baza gusura ibyiza nyaburanga, birimo imisozi ndetse n'inyamaswa bigaragara hirya no hino muri pariki mu Rwanda, harimo nk'ingagi, inkende, imparage ndetse n'ibindi.

Ingagi zo mu misozi miremire ni kimwe mu byiza nyaburanga bitaboneka henshi ku isi, ari nayo mpamvu bikurura ba mukerarugendo baturutse i Mahanga baza gusura ibi byiza nyaburanga bigaragara mu Rwanda. Bityo bakadusigira amadevize ndetse bakanadufasha kwagura imikoranire hagati yacu n'ibyo bihugu, tuboherereza ibihingwa ndetse n'ibindi bitandukanye bikorerwa mu Rwanda.

Imparage ni imwe mu nyamaswa zitaboneka ahantu henshi muri Afurika, ari yo mpamvu zikurura ba mukerarugendo hirya no hino ku isi baje gusura ibyiza nyaburanga bigize u Rwanda. Harimo n'izindi nyayamaswa z'imparage ziboneka, bigafasha igihugu mu kunoza amadevize ndetse n'iterambere ry'abatuye ahari ibi bikorwa nyaburanga.

Ubukerarugendo ni kimwe mu bikorwa bifasha igihugu cy'u Rwanda mu kwinjiza amadevize menshi, ko ba mukerarugendo baza kureba inyamaswa zitandukanye zigaragara mu mashyamba ndetse na parike z'igihugu, aha twavugamo nk'ingagi, inkende, imparage ndetse n'izindi.

Inyamaswa ndetse n'inyoni bigaragara mu Rwanda, ni bimwe mu bikurura ba mukera rugendo baturuka hirya no hino ku isi, baje gusura u Rwanda. Aho basura ibice bitandukanye harimo nk'imisozi myiza, yo mu majyaruguru muri Pariki y'Ibirunga, Akagera ndetse n'ahandi, aho basiga amadevize, nyuma yo gusura ibi bikorwa ndetse n'ibyiza nyaburanga.

Inyamaswa zitaboneka ahandi cyane cyane z'inyamisozi, inyoni nziza ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo, imihanda yose izi bakaza gusura ibyo byiza nyaburanga mu Rwanda, hirya no hino mu mapariki, nko muri Pariki y'Ibirunga, Akagera ndetse n'ahandi bikadufasha kwinjiza amadevize, ndetse no kwagura ubucuruzi, ndetse n'umubano Mpuzamahanga n'ibindi bihugu.

Ingagi zo mu misozi miremire, inyoni, imparage ndetse n'ibindi nibyo bikurura ba mukerarugendo baza gusura u Rwanda baturutse hirya no hino mu gihugu kuko biboneka. Ibi kandi bigafasha igihugu mu kwinjiza amadevize ndetse n'abaturage babituriye bakabona uko biteza imbere bakora ubucuruzi kuri ba mukerarugendo baba baje gusura u Rwanda.